Umwana wambaye ikanzu irimo utubara tw'umukara ndetse n'umweru. Akaba ari ku ivomero rusange, yaje kuvoma amazi. Akaba yitwaje indobo ziri mu ibara ry'umweru. Inyuma ye hakaba hari ibiti birebire.

Abantu bagiye batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bari mu cyumba kiri kuberamo inama ndetse hari umukobwa uri kuvuga ufite indangururamajwi mu ntoki ze, abandi bafite mudasobwa imbere yabo.

Abaturage benshi bicaye hamwe, harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye bakoze uruziga, hakaba hari umugabo uhagazemo hagati wambaye itaburiya y'umweru uri kubagezaho ijambo, bamwe muri abo baturage bagiye bafite ibipapuro mu ntoki zabo.

Abanyeshuri bagiye batandukanye bari hamwe mu kigo cy'ishuri, hakaba ari umwe muri bo wambaye iniforume, akaba ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune.

Abana benshi bahagaze hamwe ndetse n'ubigisha ubahagazemo hagati bari munsi y'ihema rinini ry'umweru ndetse imbere yabo hari abamama bakuze bigaragaza ko ari abayobozi babasuye.

Abaturage bagiye batandukanye, harimo abagore, abagabo ndetse n'abasore, bakaba bambaye imyambaro yiganjemo imipira y'umweru, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru.

Abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba kiri kuberamo inama, higanjemo abanyamahanga ndetse hakaba hari umugabo uri kubagezaho ijambo ufite indangururamajwi mu ntoki ze, imbere ku meza hari imitako ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abantu bari ku ivome rusange. Ni umugabo ndetse n'umugore, umugore akaba yiteze igitambaro mu mutwe yambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu akaba afite ijerekani iri mu ibara ry'umuhondo, ku ruhande rwabo hakaba hari ishyamba ririmo ibiti birebire.

Ahantu hatunganyirizwa amazi menshi ku buryo agera ku baturage ameze neza kandi akeye, hirya yayo hakaba ari indi nyubako ndende ifite igisenge gitukura.

Abana bakiri batoya, bigaragara ko ari abanyeshuri bambaye n'impuzankano z'ishuri. Imbere yabo harirobine bari gukaraba mu ntoki bishyizeho isabune bari kwimakaza umuco w'isuku.

Abantu bagiye batandukanye b'abaturage bicaye munsi y'ihema ritatsweho n'amabara agiye atandukanye. Harimo abagabo ndetse n'abagore. Bakurikiye umugore ubahagaze imbere ufite indangururamajwi.

Ahantu hari abantu bagiye batandukanye: abaganga ndetse n'abaje babagana, bambaye udupfukamunwa ndetse hari umumama wambaye umupira w'umukara, bari gutera urushinge bigaragara ko ari urukingo rwa covide.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bakurikiye inama bari kugezwaho n'abantu bicaye imbere harimo umugore umwe ndetse n'abagabo batanu. Inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini kiriho amasura y'abantu.

Umugabo ndetse n'umugore we, baje kureba umujyanama w'ubuzima, bamubwira ko batwite ndetse ari kubaha inama zigiye zitandukanye z'ukuntu bazabyitwaramo neza.

Abaturage bagiye batandukanye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari ahantu hari ihema ry'umweru ndetse n'imodoka ihaparitse, impande y'iyo modoka hari n'inyubako.

Abaturage bagiye batandukanye bateraniye hamwe bigaragara ko ari ku ivome rusange, hakaba hari umwana wambaye umupira uri mu ibara ritukura, yazaniye amajerekani ari mu ibara ry'umuhondo kugira ngo abashe kuyatwaramo amazi.

Umumama waje kuvuza umwana we, akaba yicaye bari gutera umwana we urushinge, uri kurumutera yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, inyuma ye ku ruhande hakaba hari akantu bajugunyamo imyanda.

Umugabo uhagaze akaba yambaye ikote n'amarinete, biragaragara ko ari kugeza ku bantu bamukurikiye ikiganiro, ku ruhande rwe hari intebe ziteguye, buri mpande y'intebe hateretse agacupa k'amazi yo kunywa.

Mu cyumba gihagazemo umugabo ndetse n'umugore wicaye. Hakaba hari ameza ateretseho mudasobwa, ndetse n'amakayi agiye atandukanye. Inyuma yabo ku gikuta hamanitseho ifoto y'umukuru w'igihugu.

Abantu bagiye batandukanye, bari mu cyumba kiri kuberamo inama. Harimo abagore ndetse n'abagabo. Imbere ku meza hagiye hari udukombe bakoresha bari kunywa icyayi, ndetse na mudasobwa zabo.

Umwana wambaye agakanzu kadoze mu gitenge, afite icupa ririmo amazi ari gukaraba ndetse imbere ye hakaba hari inyubako yubakishije amatafari ya rukarakara.

Abaturage bagiye batandukanye harimo abamama bamwe biteze ibitambaro mu mutwe abandi ntabyo ndetse bakurikiye umugabo uhagaze imbere yabo uri kubagezaho ijambo ufite ibipapuro mu ntoki, ku ruhande hakaba hari undi mugabo uhagaze wambaye ishati y'igitenge.

Abagabo n'abagore bahagaze, barakeye, bigaragara ko bari bari mu nama, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu.

Abantu bane, harimo abakobwa batatu ndetse n'umuhungu umwe bahagaze imbere, umwe muri bo afite indangururamajwi ari kuvuga, inyuma yabo hakaba hari insakazamashusho nini cyane yanditsemo amagambo.

Abantu batandukanye bari ku ivomero rusange, harimo abamama ndetse n'abana, umwana umwe ari kuvoma, undi bari kumukarabya yicaye mu ibase ndetse abamama bazanye ibikoresho bitandukanye kuvoma birimo nk'indobo.

Abanyeshuri bagiye batandukanye, barimo abahungu n'abakobwa, bambaye imyambaro ya kake, bakaba bazanye ibikoresho bitandukanye bari bwifashishe batwaramo amazi nk'indobo ndetse n'utujerekani.

Abaturage benshi bagiye batandukanye, bahagaze hamwe, harimo abagabo, abagore ndetse n'abana. Imbere yabo hari inyubako, ndetse ifite n'icyapa bigaragara ko ari ku kigonderabuzima.

Abamama benshi bagiye batandukanye bari kumwe n'abana babo, biciye kwa muganga bigaragara ko baje kubakingiza ndetse hari umwe uhagaze imbere ugezweho, wambaye imyenda y'ibitenge afite ibipapuro mu ntoki.

Abanyeshuri benshi bari hamwe, bambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu. Inyuma yabo hakaba ari n'abandi bantu bakuru barimo abagore n'abagabo, bari gupepera, ku ruhande hakaba hari icyapa cy'ubururu.

Abaturage batandukanye bahagaze hamwe, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, kuri iyo nyubako hakaba hari amagambo ari mu ibara ry'icyatsi mu rurimi rw'Icyongereza.

Umwana w'umunyeshuri wambaye ishati y'umweru, umupira w'ubururu ndetse n'ijipo iri mu ibara ry'ubururu. Imbere ye hari igikoresho kizwi nka robine, ari gukaraba intoki. Inyuma ye akikijwe n'ibiti ndetse n'amazu.

Abaturage benshi bagiye batandukanye harimo abagore ndetse n'abana bari ku ivomero rusange rifite ahantu hagiye hatandukanye ho kuvomera riri mu ibara ry'ubururu ndetse hari n'umugabo wambaye ingofero iri mu ibara ry'umuhondo.

Abanyeshuri bagiye batandukanye bari gufata amafunguro ku kigo cy'ishuri, hari abambaye imyambaro y'ubururu n'abandi bambaye iya kacyi, imbere yabo bafite amasahani ariho ifunguro.

Abantu bagiye batandukanye bose bambaye udupfukamunwa ndetse hari umu mama wicaye bari gutera urushinge bigaragara ko yarutinye cyane, uru akaba ari urukingo rwa kovide cumi n'icyenda.

Abantu benshi cyane bagiye bahagaze hamwe, higanjemo abagore, ndetse n'abagabo bakaba bari gufata ifoto inyuma yabo hakaba hari icyuma cyifashishwa mu kugaragaza ibintu kizwi nka projegiteri.

Abaturage benshi bahagaze hamwe, harimo abagabo, abagore ndetse n'abandi badamu bahetse abana babo, hari ihema rinini ry'umweru ryo kwicaramo n'inyubako ihari imbere yayo hakaba hari idarapo.

Abaturage benshi biganjemo abagore n'abagabo, bakaba bari kubyina bishimye, bambaye amataburiya ari mu ibara ry'ubururu agaragaza ko ari abajyanama b'ubuzima.

Abagabo batatu bambaye imyambaro igaragaza ko ari abaganga, iri mu mabara asa ubururu ndetse n'umweru. Bose ku mitwe yabo bambayemo utunozasuku turi mu ibara ry'ubururu.

Ivomero rusange ryateraniyeho abaturage bagiye batandukanye biganjemo ab'igitsina gore ndetse, hakaba hari n'amajerekani apanze ku murongo uko bagiye bakurikirana.

Abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba kiberamo inama, harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere ku meza hakaba hagiye hateretse amazi yo kunywa, bamwe muri bo bakaba bafite na mudasobwa imbere yabo.

Abaturage bagiye batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bageze mu zabukuru bicaye ku ntebe, bigaragaza ko bari mu kigo nderabuzima, abenshi muri bo mu biganza byabo bagiye bafite ibipapuro bitandukanye.

Umumama uri ku ivomero rusange, akaba ahetse umwana. Mu biganza bye afite umupfundikizo ari kuwoza ndetse ku ruhande rwe, akikijwe n'indobo zigiye zitandukanye, iri mu ibara ry'umuhondo n'indi iri mu ibara rya pinki.

Abagabo batandukanye bari ahantu hamwe imbere y'imiryango ibiri irebana, bambaye impuzankano zizwi nk'amataburiya ari mu ibara ry'umweru, imbere yabo hari undi mudamu wambaye umwambaro utukura.

Umugabo usutamye wambaye umupira uri mu ibara rimwe n'iry'umwana bari gupima ibiro uri ku munzani yambaye, akaba ari umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza.

Ahazwi nko ku kigo nderabuzima, hari abamama bagiye batandukanye bari kumwe n'abana babo ndetse n'umunzani uri kwifashishwa bapima ibiro abana bagejeje, hari undi mugabo uhagaze wambaye itaburiya y'ubururu.

Imodoka y'imbangukiragutabara ihagaze ahantu, inyuma yaho hakaba hari amahema maremare y'umweru ndetse n'abaturage benshi cyane bashungereye bigaragara ko ari umuntu wagize nk'ikibazo.

umunyeshuri wambaye imyenda y'ishuri. Akaba ari kuri robine. Imbere ye, hari ikidobo kinini kifashishwa bashyiramo imyanda. Inyuma ye hakaba hari amazu bigaragara ko ari amashuri.

Abantu bagiye batandukanye bicaye hamwe, harimo ababyeyi ndetse n'abasore, bigaragara ko barwaye, baje kwa muganga gusaba serivisi kugira ngo babashe kubona igisubizo cy'uburwayi bwabo.

Utuzu tubiri twubakishijwe amatafari ahiye ndetse dufite imiryango iri mu ibara ry'ubururu, dukorotiriwe n'igipangu cy'ibyuma, hakaba hari umuntu uhahagaze wita kuri izo nyubako.

Abana benshi bicaye hamwe, bigaragara ko ari mu cyumba cy'ishuri. Bose bambaye imipira y'ubururu, harimo n'abandi bambaye imipira isa umuhondo. Inyuma ku meza hakaba hateretseho ibiryo.

Abagabo bagiye batandukanye bicaye hamwe bakoze uruziga, ku meza bariho hagiye hateretseho amazi yo kunywa ndetse n'amaji, bamwe muri bo bafite ibitabo bari kwandika ibiri kuvugirwa aho.

Abantu bagiye batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bakaba bari mu nama, imbere ku meza bicayeho hariho amacupa y'amazi yo kunywa ndetse bamwe muri bo bafite amakayi bari kwandika.

Abaturage bagiye batandukanye, bari ahantu bigaragara ko ari kwa muganga. Hari abagabo, abagore, ndetse n'abana. Ndetse umugore uri kuvura umwana yambaye umupira utukura n'ingofero y'umweru.

Umugabo uri ahantu hari abamama bagiye batandukanye, bafite abana babo bigaragara ko ari kwa muganga, akaba ari kubitaho abasetsa ndetse anabakinisha, ku ruhande hari abandi babyeyi benshi.

Umwana w'umukobwa uhagaze ku ivomero, akaba yambaye ikanzu iri mu ibara ry'ubururu n'ishati y'umweru, yateze ibiganza byombi ari kunywa amazi ayanywesheje ibiganza ku ruhande rwe hari indobo nini iri mu ibara ry'icyatsi, hirya hari amazu bigaragara.

Abaturage benshi cyane bagiye batandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo, hakaba hari n'abana bicaye hasi bambaye imipira iri mu ibara rya oranje, bakaba bari kubanywesha amata bakoresheje ibikombe n'abari gukoresha ibyansi.

Abaturage bagiye batandukanye, harimo abagabo, abana ndetse n'abagore. Bakaba bari ku ivome rusange, ahari ibikoresho bigiye bitandukanye, bari bwifashishe batwaramo amazi. Ndetse n'umwana uri kuvoma wambaye umupira utukura.

Umumama wambaye ingofero iri mu ibara ry'ubururu, umupira w'amabara agiye atandukanye, ndetse akenyeye n'igitenge kiri mu ibara ry'icyatsi, imbere ye hari ijerekani, ari ku iriba, yagiye kuvoma.

Ku ivomero rusange hari abantu bagiye batandukanye, abana ndetse n'undi mugore wambaye umupira utukura, bazanye ibikoresho bitandukanye byo kuvomeramo nk'ibase ndetse n'utujerekani duto.

Abantu babiri bicaye hamwe umugabo ndetse n'umugore. Umugabo yambaye umupira w'ubururu ndetse umugore yambaye umupira w'umweru. Inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho sida iracyahari duhagurukire tuyirwanye.

Abantu bagiye batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo, bari mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere yabo ku meza hagiye hari uducupa tw'amazi yo kunywa, ndetse imbere hari abandi bantu bafite mudasobwa imbere yabo.

Umugore uteruye umwana wambaye akagofero k'umweru akaba ahagaze imbere y'ivomero hateretseho indobo iri mu ibara ry'umukara ari kuvoma, ku ruhande hakikijwe n'ibiti birebire bitandukanye.

Abana babiri bari ku ivomero rusange, umwe afite akajerekani ari gutegaho kugira ngo amazi ajyemo, inyuma yabo hakaba hari ibihingwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibiti birebire.

Abaturage bagiye batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore n'abana barahari, bakurikiye ikinamico abantu bari imbere bari gukina, harimo umudamu upfukamye ndetse n'undi ufite indangururamajwi mu ntoki.

Abaturage batandukanye bahagaze hamwe, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bambaye impuzankano zo kwa muganga, zirimo amataburiya y'umweru, ndetse n'amashati y'ubururu, ku ruhande hari icyapa kinini kihari.

Abaganga ndetse n'abaturage bari hamwe, umwe arahagaze afite ibipapuro mu ntoki ze yambaye agapfukamunwa, imbere ku meza arambuyeho igitambaro kiri mu ibara ry'umweru hateretse mudasobwa ndetse harambitseho n'ingofero.

Abaturage benshi bagiye batandukanye biganjemo abagore ndetse n'abagabo bahagaze hamwe mu cyumba, hakaba hari ameza ateretseho imashini ndetse ku gikuta handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu agira ati "uburyo bwo gukumira no kurwanya gutwita kw'abangavu".

Ikirango kiri mu ibara ry'uruziga, kirimo umugabo uteruye mwana. Hakaba ari namashami abiri ku ruhande abisikana, akaba ari iki kigo kitwa yunisefu.

Abaturage benshi bagiye batandukanye harimo abagore ndetse n'abana, bari ku ivomero rusange, bazanye ibikoresho bitandukanye byo gutwaramo amazi, nk'amabase, indobo ndetse n'amajerekani.

Umwana uri ku ivomero rusange, yateze ibiganza bibiri byombi ku mazi urabona ko ari kumwenyura, ku ruhande rwe hari ibindi bikoresho byifashishwa mu gutwara amazi bizwi nk'amajerekani.

Umumama wambaye imyenda ye iri mu bitenge akaba yaje kuvuza umwana, bakaba bari kumuha ubufasha akeneye, ku ruhande hari umumama wambaye itaburi y'umweru uri kumuvura bigaragara ko ari umuganga.

Abagabo n'abagore bamwe baricaye abandi barahagaze kandi harimo n'abanyamahanga. Bambaye imyenda igiye itandukanye bakaba bari gufata ifoto. Inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu.

Umumama waje kuvuza umwana, imbere ye afite isakoshi ndetse umukobwa uri kuvura umwana, yambaye itaburiya y'umweru, ari kumutera urushinge ngo hamenyekane ikibazo arwaye.

Abantu bagiye batandukanye bari mu nama abagabo ndetse n'abagore, bakaba bakurikiye ubari imbere ubayoboye wambaye ikote, ku meza bariho hagiye hateretseho amacupa y'amazi yo kunywa.

Umusore ukiri muto uri ku ivomere rusange akaba yateze ibiganza byombi kuri robine amazi ari kumujyaho, yambaye ishati iri mu ibara ry'icyatsi ndetse ku ruhande rwe hari indabo ipfundikiye iri mu ibara ry'ubururu.

Abantu bagiye batandukanye harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bagiye bafite ibikombe mu ntoki, bari kunywa amazi bari kuvoma mu kigega cy'umukara kihateretse, inyuma yaho hari amazu ndetse n'ibiti.

Abagore babiri bari ku ivomero rusange, bose bambaye imyenda igizwe n'ibitenge, imbere yabo ku ivomero hari amajerekani atondetse ku murongo, ategerejwe kujyamo amazi.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye nk'amamatera yifashishwa bashyiraho abarwayi barembye cyane, ndetse n'izindi mashini bakoresha kugira ngo indwara ikire.

Umumama uteruye akana ndetse bari kugatera urushinge kararwaye bari kugerageza kureba ko kakira. Kuruhande hari abandi babyeyi benshi bategereje ko bavura abana babo.

Abagabo batatu ndetse n'abagore babiri, bari mu cyumba aho bari gukora inama, imbere ku meza hari uducupa turimo amazi yo kunywa ndetse n'amakayi bari kwandikamo ibiri kuvugirwa mu nama.

Abaturage benshi bigaragara ko ari abanyeshuri ndetse n'abagabo, bakaba bahagaze imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye iriho icyapa kinini cy'umweru bose bafite ibitabo mu ntoki babizamuye.

Abantu bagiye batandukanye bahagaze hamwe, harimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye amataburiya ari mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima. Hari undi mugabo muremure ubahagazemo wambaye ikote.

Abagabo babiri bicaye ahantu hamwe, bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo ku meza hakaba hari amacupa y'amazi yo kunywa ndetse n'ibitabo byo kwandikamo ibivugirwa muri iyo nama.

Abantu bagiye batandukanye bakoraniye mu cyumba kiri kuberamo inama, harimo abasore ndetse n'inkumi. Bagiye bambaye imipira iri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi. Ku meza hari amazi yo kunywa.

Abamama bagiye batandukanye bakenyeye bari ku ivomero rusange bagiye bazana ibikoresho bitandukanye byo gutwaramo amazi nk'indobo ndetse n'ibindi kuruhande rwabo bakikijwe n'ibiti birebire.

Abantu benshi bagiye batandukanye bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye ndetse harimo abagabo n'abagore, bari mu cyumba kigaragara ko kiri kuberamo inama, bamwe muri bo bafite ibipapuro mu ntoki zabo.

Mu cyumba kiri kuberamo inama, hari abantu benshi cyane bicaye bakurikiye ndetse imbere yabo hari abagabo babiri, bambaye amakote, bari kubagezaho ijambo. Umwe muri bo afite mudasobwa imbere ye ndetse hari n'uducupa tw'amazi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, n'ipantaro y'umukara. Ari gukaraba intoki. Abatuye mu nkengero z'umujyi ntago baheranywe no kubura uko babona kandagira ukarabe, kuko hari uburyo bashobora kuyikorera, kandi bagakaraba intoki.

Umwana uri ku ivomero rusange, akaba yazanye amajerekani kuvoma kugira ngo ayajyanemo amazi, yambaye umupira w'umweru ndetse ku ruhande rwe hakaba hari insina.

Ishusho y'igitonyanga ndetse n'imisozi ibiri, akaba ari ikirango cy'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi mu Rwanda, kiyageza ku baturage kandi kikayabagezaho akeye.

Abaturage bagiye batandukanye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bambaye amataburiya asa ibara ry'ubururu, ndetse bari munsi y'ihema rinini cyane ry'umweru, imbere hakaba hari ubusitani.

Umukobwa usutamye ubyibushye, wambaye ijipo y'ibara ry'umukara, imbere ye hari ijerekani ari kuvomeramo iteretse mu mabase abiri agerekeranyije, inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda.

Abantu bagiye batandukanye bicaye hamwe mu cyumba kiri kuberamo inama hakaba higanjemo abagore ndetse n'abagabo imbere yabo bakurikiye abandi bicaye harimo ufite indangururamajwi uri kuvuga, ku meza bicayeho hateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abantu bagiye batandukanye bambaye imyenda itandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bari mu cyumba kiri kuberamo inama ndetse bari kugenda bahanahana ibitekerezo, imbere yabo bafite n'ibitabo byo kwandikamo ibiri kuvugirwamo.

Kwa muganga hari gutangirwa serivisi zigiye zitandukanye, umukobwa bari kumupima indwara, yicaye ku gitanda cy'abarwayi, ku ruhande hakaba hari idirishya bakuyeho amarido.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze ahantu hamwe, ni imbere y'inyubako igiye imanitseho ibyapa bigiye bitandukanye byanditseho amagambo, bigaragaza ko ari ku kigonderabuzima runaka.

Abana bari ku ivomero rusange, bishimiye gukina n'amazi ndetse bakikijwe n'ahantu wagira ngo ni ubutayu, bambaye inkweto kandi bari guseka.

Abantu benshi batandukanye bigaragara ko ari abayobozi, harimo abagore ndetse n'abagabo ,bahagaze hamwe bari gufata agafoto k'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu.

Abanyeshuri bari hamwe, bambaye impuzankano z'ikigo bigaho, imbere yabo ku meza hakaba hateretseho ibigega n'ibikombe ushobora kwifashisha uri kuvoma amazi muri icyo kigega.

Abamama bagiye batandukanye, bambaye imyenda ikozwe mu bitenge bakaba, bari ku ivomero rusange ndetse bazanye ibikoresho bigiye bitandukanye bavomeramo nk'indobo, ku ruhande rwabo hakaba hari ibiti.

Abagore batandukanye, benshi, bazanye n'abana babo. Bicaye ku ntebe, ndetse baje guteza abana babo inkingo. Hari umuganga uri kuzibatera, wambaye itaburiya y'umweru, ufite igikapu kirimo ibikoresho.

Abamama babiri bicaye hamwe, bisa nkaho umwe ari kurira, undi amufashe ku rutugu ari kumuhoza. Bicaye ku gatebe k'urubaho karekare, ndetse inyuma yabo hari izindi kwi zo gucana ziri impande y'igikuta.

Umumama ugeze mu za bukuru, biragaragara ko ari guteka ndetse kuruhande rwe hakaba ari igikombe cy'icyatsi, inyuma ye hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye, kuruhande hakaba hari inkoko.

Abantu batandukanye bari mu cyumba kiri kuberamo inama, harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba ari umudamu ufite indangururamajwi mu biganza bye uri kugira icyo avuga, imbere ku meza hateretseho mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi.

Abaturage bagiye batandukanye, bambaye udupfukamunwa ndetse n'abari kubitaho, bigaragara ko ari mu gihe cy'icyorezo cya Kovide, bakaba baje gufata inkingo kugira ngo batandura.

Abaturage benshi bari hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo bakaba bari gukoma amashyi babyina ku meza hari hateretseho amazi yo kunywa ndetse bamwe muri bo bafiteho na mudasobwa.

Abantu bagiye batandukanye, bari mu cyumba kiri kuberamo inama, harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye mu ntebe zisa umukara ndetse bakurikiye uri imbere hakaba hari n'insakazamashusho.

Abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba cy'inama yiganjemo abagore, uri imbere akaba yambaye umwambaro uri mu ibara ry'umweru. Ku meza hakaba hariho agacupa k'amazi yo kunywa.

Abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba kiberamo inama hari babiri bari imbere umugabo ndetse n'umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ze uri gutanga ijambo imbere ye hari agacupa k'amazi yo kunywa.

Abantu bagiye batandukanye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bamwe baricaye, abandi barahagaze, bari gufata ifoto, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru kimanitse ku nzu.

Abantu bagiye batandukanye harimo abirabura ndetse n'abanyamahanga, bambaye imipira y'ubururu ndetse bari kugenda batera ibiti bigiye bitandukanye, yaba iby'imbuto cyangwa ibitanga umwuka mwiza.

Abantu batandukanye bari mu cyumba kiberamo inama. Harimo abagore. Imbere yabo hagiye hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, ndetse hari n'undi uhagaze imbere, ufite indangururamajwi mu ntoki.

Umugabo wambaye ibintu bitabaho by'ibishashi, ibicupa n'ibindi by'imyanda bigaragara ko ari umusazi, inyuma ye hari n'ikimoteri kijugunywamo imyanda.

Umugabo wicaye wambaye umupira uri mwi ibara ry'ubururu imbere ye akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga, Umuma mawambaye umupira ari kumusobanurira ikibazo afite ndetse imbere ku meza arambuye y'igitambaro cy'umuhondo hateretse icupa ryamazi.

Umugabo wicaye hasi akenyeye igitenge ndetse yifashe mu gahanga bigaragara ko afite agahinda, ku ruhande rwe hari ibindi bitenge, ku gikuta harasa nabi, bigaragara ko aziritse n'amaguru.

Umugabo w'umunyamahanga wambaye ishati y'amaboko aciye, ahagaze imbere y'igipangu cy'amatafari ya sima, kiriho icyapa kiri mu mabara y'umweru kigaragaza ko ari ku bitaro bya Ndera.

Umugore uhagaze wikoreye igitebo kinini kirimo imigozi y'ibijumba, akaba afite n'isuka mu biganza bye, inyuma yiwe hari igiti gishinze kiriho ibyatsi ndetse hakaba ari n'inzu yubakishije amategura.

Abaturage bagiye batandukanye bari hamwe biganjemo urubyiruko, abagore ndetse n'abagabo, bakaba bahagaze hamwe bafite icyapa mu ntoki zabo kiri mu mabara agiye atandukanye.

Abantu babiri umugabo ndetse n'umugore barandase umusore wambaye imyenda yacikaguritse bigaragara ko ari umusazi ndetse inyuma y'abo bantu hari abandi baturage batandukanye.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze hamwe bagiye bambaye imyenda itandukanye. Ndetse harimo n'ushinzwe umutekano wambaye impuzankano ya polisi, inyuma yabo hakaba hari ibyapa byinshi bigiye bitandukanye

Abamama bahagaze hamwe ari batatu, umwe muri bo ateruye umwana, bose bafite inkoni mu ntoki, bigaragara ko ari ahantu mu cyaro, inyuma yabo hari imirima igiye irimo imyaka itandukanye n'ibiti.

Abantu bagiye batandukanye, bahagaze hamwe, mu nyubako ihari, abenshi muri bo bambaye imipira iri mu ibara ry'ubururu, ndetse hari undi mugabo ubahagaze hagati, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, bari gufata ifoto.

Abantu benshi harimo abagore abagabo ndetse n'abana bari ahantu hateraniye hamwe, imbere hakaba hari umwana wambaye ishati y'umweru uri kurira bigaragara ko amarira yashotse.

Umugabo uhagaze imbere yinyubako ndende yandikishijweho amagambo ari mu rurimi rwicyongereza mu ibara ry'ubururu. Umugabo akaba yambaye ipantaro y'umukara n'ishati izwi nka mede ini Rwanda.

Abantu bagiye batandukanye bari mu bikorwa byo kugenda batera ibiti by'amoko atandukanye yaba iby'imbuto cyangwa ibiri isuri bagiye bambaye imipira y'ubururu.

Umwana wicaye ku ntebe y'ishuri yambaye ishati yumweru iro karuvati iri mu ibara ry'ubururu. Mu ntoki afite icyo kurya kizwi nka biswi ndetse inyuma ye hakaba hari n'abandi bana bicaye.

Abaturage bagiye batandukanye bari mu cyumba kiberamo inama, abadamu n'abagabo, bamwe barahagaze abandi baricaye, bakaba inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umutuku.

Abantu bagiye batandukanye bigaragara ko bari mu nama, hakaba harimo abadamu n'abagabo, umudamu uri imbere yambaye ijire y'ubururu, afite agapfukamunwa ku kaboko ndetse ari gutanga ijambo.

Umumama uteruye umwana mu ntoki ze ndetse bakaba bicaye ku musambi hasi, imbere yabo hari agasahani gatukura karimo ibyo kurya bitandukanye inyuma hakaba hari inzu.

Abantu bagiye batandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe z'imikara bakaba bari mu cyumba kiberamo inama, bakurikiye umugore uri imbere uri kubagezaho ijambo ndetse hari n'insakazamashusho.

Abana bagiye batandukanye bugaragara ko bishimye, bambaye amashati y'icyatsi bigaragaza ko ari ay'ishuri, banejejwe no kuba basuwe.

Umugabo wirabura ufite imisatsi myinshi n'ubwanwa bwinshi busa nabi ndetse yambaye n'ibyenda byacikaguritse, bigaragaza ko afite ikibazo cyo mu mutwe, inyuma ye hakaba hari inzu.

Umuhungu uri guseka cyane ubona ko yizihiwe akaba yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru inyuma ye hari igikuta gisa n'ubururu ashimishijwe no kuba afite ubuzima buzira umuze ndetse n'amenyo akeye.

Umugabo ugeze mu zabukuru, akaba ari imbere y'indorerwamo, ndetse afite mu ntoki ze imiti igiye itandukanye afata, kubera ko ageze mu zabukuru, hakaba hari na robine.

Abana bagiye batandukanye, bambaye iniforume, bamwe bambayeho n'imipira y'imbeho y'ishuri. Bafite uburoso mu menyo bari kwiborosa ndetse bafite n'udukombe mu ntoki turimo amazi bari bwifashishe.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, afashe ku rutugu umwana wambaye ishati y'icyatsi ndetse inyuma yabo hari abandi bagabo bahagaze harimo n'abagore, hakaba hari n'ikibaho cyifashishwa bandikaho mu ishuri.

Umugore ufite imisatsi igera mu maso, arahumirije ndetse ari gukoresha akagozi kabugenewe yoza amenyo ye, akaba yambaye agasengeri kari mu ibara ry'umweru, ndetse ubu ni uburyo bugezweho bwo koza amenyo.

Abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe bambaye imipira iri mu ibara ry'icyatsi, imbere ku meza arambuyeho igitambaro cy'umweru hariho cologate ndetse bakaba bari kuvurwa amenyo n'abaganga.

Umusore ukiri muto cyane, afashe akagozi kabugenewe mu koza amenyo ndetse ari kuyoza akifashishije, akaba yambaye umupira w'umweru, ni byiza gukora isuku y'amenyo.

Umugabo wambaye agatuza hejuru, akaba afashe akagozi ari koza amenyo, urabona ko ari no kumwenyura cyane, akaba ari kwireba mu ndorerwamo areba ibyo ari gukora.

Abantu bagiye batandukanye bari hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore. Hari abambaye imipira iri mu ibara ry'icyatsi n'abandi bambaye iy'ibara ry'umweru. Imbere ku meza, hakaba hateretse umuti w'amenyo.

Umuganga wambaye agapfukamuwa k'umweru itabuririya y'umweru ndetse na karuvati iri mu ibara ry'umutuku, akaba ari kuvura undi mugabo waje amugana wambaye agapira k'icyatsi, ari kumuvura amenyo akoresheje ibikoresho bitandukanye.

Abantu benshi cyane biganjemo abagabo ndetse n'abagore n'abandi b'abanyamahanga. Bamwe bicaye hasi, abandi barahagaze, bari gufata ifoto bamwenyura. Inyuma yabo hari igipapuro kinini cy'umweru.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byinshi bigaragara ko ari ibyifashishwa mu buvuzi. Hakaba hari n'intebe nini baryamishaho umurwayi kugira ngo asuzumwe hamenyekane ikibazo afite. Ku rukuta hari imitako isizeho.

Umugabo uryamye ku gitanda bigaragara ko yasamye bari kumukorera ubuvuzi bw'amenyo, akaba ari kwitabwaho n'umudamu wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki turi mu ibara ry'ubururu, mu biganza bye afite ibikoresho ari gukoresha amuvura.

Mu cyumba cy'ishuri, ahari abanyeshuri bagiye batandukanye, ubona bishimye bose ndetse n'umukobwa ubarimo bigaragara ko ari mwarimu wabo, bakaba bafite uburoso bw'amenyo bagiye kujya biborosa.

Umukobwa uryamye yasamye bakaba bari kumuvura mu kanwa indwara zijyanye n'amenyo, ari kwitabwaho n'abaganga babiri bose bambaye marinete n'udupfukamunwa, impande yabo hakaba hari izindi mashini zifashishwa mu buvuzi.

Umugore uteze igitambaro cy'umweru mu mutwe, ari kwireba mu ndorerwamo ndetse afite uburoso mu ntoki ari kwiboroza, akaba yambaye agasengeri kari mu ibara ry'umweru, ubona ko yishimye cyane.

Umugabo ndetse n'umukobwa bambaye imipira iri mu ibara ry'umweru bari gukoresha utugozi twabugenewe boza amenyo kandi bari kubikora bireba mu ndorerwamo ibari imbere.

Kwa muganga ahakorerwa ubuvuzi bugiye butandukanye ku ndwara zinyuranye, hakaba hari igitanda bavuriraho abarwayi n'intebe yo kwicaraho, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba cyo kwa muganga gifite amatara ari kwaka cyane, kikaba gifite ibikuta bisize ibara ry'umweru, hari intebe zo kwicaraho zifashishwa n'abaganga ndetse n'ibindi byuma byifashishwa mu buvuzi, ku ruhande hari aho bakarabira intoki.

Umugabo wirabura yagiye kwikuza amenyo, uri kumuha ubufasha ni umuganga, wambaye ishati y'ubururu, akanozasuku, kari mu ibara ry'umweru, akaba ari gukoresha imashini zabugenewe amufasha.

Icyumba cyo kwa muganga gifite ibikuta bisize ibara ry'umweru, hakaba harimo igikoresho kinini cyane cyifashishwa mu buvuzi ndetse n'igitanda baryamishaho umurwayi kugira ngo yitabweho, hari n'agatebe gatoya.

Umwana ufite uburoso bw'amenyo burimo amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, agiye kwiborosa, yambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu, kwiborosa bikaba ari ingenzi cyane kubera ko bituma umuntu ahumura neza mu kanwa.

Umwana uri kwa muganga bari gukura iryinyo ndetse umuganga uri kumuha iyo serivise yambaye ga z'umweru afite mu ntoki ze ibikoresho biri kumufasha gukora ubwo buvuzi.

Umugabo ugeze mu zabukuru ari kumwe n'umuganga uri kumwitaho amugira inama y'uko yakwita ku buzima bwe, imbere yabo ku meza hakaba hari ikayi n'ikaramu byo kwandikamo.

Umugabo n'umugore bageze mu za bukuru umugore yambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu naho umugabo afite ikirahuri mu ntoki ari kunywa amazi yicaye ku gitanda kiriho imisego iri mu ibara ry'umweru.

Abantu bagiye batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bakaba bahagaze munsi y'igiti kirekire kinini, imbere yabo bafitemo insimburangingo zifashishwa n'abafite ubumuga bugiye butandukanye.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye ipantaro y'umukara, akaba ari kwitabwaho n'abandi bantu babiri umusore ndetse n'umukobwa, akaba ahagurutse ku gitanda gishasheho amashuka y'umweru.

Umugabo n'umugore bageze mu za bukuru, gusa bigaragara ko bagikundana cyane, bari kurebana akana ko mu jisho kandi imbere yabo hari amafunguro agiye atandukanye, n'igikombe kirimo amazi.

Abaturage bagiye batandukanye bigaragara ko ari abamama b'abahinzi, bari mu murima w'icyayi ndetse bari kugenda basoroma bashyira mu kitebo kinini bafite, inyuma iki akaba ari icyayi cy'u Rwanda kiryoha.

Umumama ugeze mu zabukuru wicaye mu kagare k'abamugaye cyangwa se abatakibasha kugenda neza, akaba ari kwitabwaho n'undi mumama wambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu, akaba yambaye akumvirizo mu matwi.

Umu mama ugeze mu za bukuru wicaye mu kiganza kimwe afashe ikirahure kirimo amazi ndetse hari umukobwa uhagaze imbere ye wambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu ufite ibinini mu ntoki, ku meza hakaba hariho n'akandi kantu k'umuhondo.

Umusaza ugeze mu za bukuru wifashe mu gahanga ndetse imbere ye ku meza hakaba hari ibitabo bigiye bitandukanye bigaragara ko ari gusoma akaba hari n'akandi kuma bifashisha bakontorora mudasobwa.

Umugabo ugeze mu zabukuru wambaye ishati, ari kumwe n'umwana ukiri mutoya bari ari gukina ndetse umwana afite agakinisho mu ntoki ze, biragaragara ko ari umwuzukuru we cyangwa akandi kana.

Umugabo ugeze mu zabukuru, ari kwitabwaho n'umukobwa ukiri muto, amufasha kumenyera kugenda, ndetse bambaye imyenda igiye iri mu mabara atandukanye.

Umugabo ugeze mu za bukuru uri gukora siporo yambaye umupira w'umweru, ndetse ari kwitabwaho n'umudamu wambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu, amufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Umumama ugeze mu zabukuru, yambaye amarinete, ndetse afite igikombe mu ntoki kirimo amazi yo kunywa, bigaragara ko ari kuyanywesha imiti, yicaye ku gitanda ndetse ku ruhande hari ifoto imanitse.

Umumama ugeze mu za bukuru ateza agatambaro k'umweru mu mutwe we ndetse imbere ye hari amashyiga yateretseho inkono yacanishije ibiti kandi inyuma ye akaba akikijwe n'ibindi biti birebire.

Umugabo uri kwa muganga bigaragara ko ageze muza bukuru, aryamye ku gitanda kiryamwaho n'abarwayi bari kwitabwaho. Ku ruhande rwe hakaba hari imashini ziri kumwongerera umwuka.

Abaturage bagiye batandukanye, biganjemo abamama bageze mu zabukuru, bambaye ibitenge, hakaba hari intebe zo kwicaraho, ziri mu ibara ry'umweru ndetse inyuma yabo bakikijwe n'insina.

Umugabo ugeze mu za bukuru ari kwitabwaho n'umukobwa ndetse n'umusore, bari kumuhagurutsa ku gitanda gishyusheho amashuka ari mu ibara ry'umweru, inyuma hakaba hari irido riri mu ibara risa icyatsi.

Umugabo ugeze mu zabukuru, ari kwitabwaho n'umukobwa ndetse bari kumufasha kunyura mu byuma bimufasha kugenda neza, ku ruhande hari izindi mashini zifashishwa muri ubwo buvuzi.

Umugabo ugeze mu za bukuru yambaye ishati irimo amabara agiye atandukanye. Afashe imiti mu ntoki ze. Ku ruhande rwe hari umudamu bigaragara ko na we ashaje. Imbere ye afite mudasobwa.

Umugabo ugeze mu za bukuru ari gufata amafunguro amurinda indwara zigiye zitandukanye, akamufasha kurushaho kugira imbaraga, ndetse imbere ye hari igikombe cy'amazi yo kunywa.

Umumama ugeze mu za bukuru, ufite akagare kamufasha gutambuka neza, ari kumwe n'undi uri kumwitaho afite agakapu mu ntoki ze, bakikijwe n'ibiti byiza ndetse n'ubusitani butandukanye.

Umugabo ugeze mu zabukuru. Yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'ubururu. Iruhande rwe, hari akana gafite imisatsi myinshi ndetse inyuma yabo, hakaba hari umutako w'igiti.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu akaba ari umuganga, ari gufasha umuma ugeze mu za bukuru amwitaho, umumama yambaye umupira w'ubururu ndetse afite n'inkoni mu ntoki imufasha kugenda.

Umumama ugeze mu zabukuru, ufite utwuma tubiri mu ntoki ze, turi mu ibara ry'icyatsi. Akaba ari gukora siporo ngororamubiri kugira ngo atandukane n'indwara ziterwa no kuba umuntu ageze mu zabukuru.

Abamama bagiye batandukanye bose bambaye ibitenge urabona ko bibabereye, bakaba bari ahantu hari inyanya nyinshi zigiye zipanze mu mabase n'izindi mbuto inyuma yabo bigaragara ko ari mu isoko.

Abantu bagiye batandukanye harimo abanyamahanga, bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye hasi ndetse harimo umwe uri kuboha agafuka, undi ateruye umwana.

Umugabo ugeze mu zabukuru ari kwitabwaho n'umudamu, umugabo akaba yambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu, bari kumukoresha siporo ngororamubiri kugira ngo imitsi irambuke.

Abamama batandukanye ndetse n'abagabo bigaragara ko bageze mu zabukuru, bari kumwe n'abandi bakiri bato, bari guseka, barishimye bicaye mu ntebe. Inyuma yabo, hakaba hari ibiti ndetse n'amatara yaka neza.

Umugabo ugeze mu zabukuru wambaye amarinete amufasha kureba neza ari kumwe n'umusore ukiri mutoya bose bari kumwenyura, bafite igitabo mu biganza byabo bigaragara ko bari gusoma, imbere ku meza hakaba hari ibirahure bibiri bihateretse.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bari munsi yihema rinini ry'umweru. Hakaba hari abasaza babiri bari imbere, umwe yambaye ishati isa ubururu, undi yambaye iy'umweru bari gukoma amashyi.

Abaturage benshi harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bahuriye hamwe bari kuganira, bamwe bicaye ku ntebe z'urubaho, abandi bicaye ku ntebe za purasitike munsi y'igiti.

Umusaza ugeze mu zabukuru yicaranye n'abuzukuru be babiri, bafite utuntu mu ntoki bari kugenda batamira ndetse umwe muri abo bana, afite akajerekani karimo amazi ari kugenda asomesha.

Umugabo wicaye mu kagare k'abamugaye cyangwa se abageze mu za bukuru. Yambaye umupira w'umweru. Akaba ari kwitabwaho n'umukobwa ukiri muto, wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu.

Umumama ugeze mu za bukuru uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba yambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hari itara ry'umutako rinabonesha mu nzu.

Umumama ugeze mu za bukuru wambaye marinete amufasha kureba neza, akaba afite agacupa mu ntoki ze bigaragara ko ari imiti agiye kunywa. Yambaye ikanzu iri mu ibara ry'umuhondo, inyuma ye hakaba hari ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo.

Aba mama bagiye batandukanye bari hamwe bigaragaza ko bari gucinya akadiho, bambaye imipira y'umweru n'amajipo ari mu ibara ry'umukara, ku ruhande rwabo hari igipangu n'imbere mu gipangu harimo igiti.

Umugabo ugeze mu za bukuru, imbere ye hari ikirahure kirimo amazi yo kunywa ndetse n'umugore uri kumwitaho amufasha kunywa imiti ye neza, hakaba hari n'ibipapuro imbere yabo ku meza.

Umumama ugeze mu zabukuru yateze ikiganza kimwe bagiye kumuha imiti, ikindi kiganza gifashe ikirahuri kirimo amazi yo kunywesha imiti, akaba ari kwitabwaho n'umukobwa wambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye umupira w'umweru, ari kwitabwaho n'umumama, amusukira ji mu kirahure ndetse imbere ye hari n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, zifasha umubiri we gukomeza akomeye.

Abaturage benshi bagiye batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore bageze mu zabukuru, bicaye munsi y'ihema rinini ry'umweru, baje gukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye.

Umugabo n'umugore bahagaze hamwe, umugabo yambaye amarinete ndetse imbere yabo ku meza hakaba harambitse imiti igiye itandukanye ndetse n'amarinete n'igikombe banywesha amazi, inyuma yabo hari ibyuma byifashishwa mu gikoni.

Umumama ugeze mu zabukuru, yambaye agasengeri, ndetse ari gukora siporo ngororamubiri, zimufasha kudasaza imburagihe, kandi akaguma afite imbaraga, siporo ni nziza cyane tuzitabire.

Umugore uri gukora siporo ngororamubiri ndetse yicaye mu busitani akikijwe n'ibiti birebire ndetse hirya hakaba hari n'imodoka zigiye zihaparitse, siporo akaba ari nziza mu buzima.

Umugabo wicaye ku ntebe yambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu, hakaba hari umugore uri kumufungira ibipesu byayo bose bambaye agapfukamunwa, umugore yambaye ishati iri mu ibara ry'icyatsi yafunze imisatsi, ku ruhande rwabo hakaba hari ubusitani buteyemo igiti.

Umumama ndetse n'umugabo bigaragara ko bageze mu za bukuru bari gukora siporo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza kandi birinde indwara za hato na hato.

Umugabo ugeze mu za bukuru ari kwitabwaho n'umukobwa ukiri muto, ari kumuha ibinini ndetse umugabo afite amazi mu ntoki agiye kunywesha iyo miti ndetse umukobwa yambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu.

Mu bitaro kwa muganga ahari abaturage bagiye batandukanye benshi, bambaye udupfukamunwa bose ndetse n'abaganga, bigaragara ko ari mu gihe cy'icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda baje gufata inkingo.

Amagambo manini ari mu mabara agiye atandukanye umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, akaba ari ikigo cyita ku bantu kibazanira imiti bakenera kugira ngo bakire.

Abantu bagiye batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama. Higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Imbere yabo hakaba hari abandi bicaye bigaragara ko ari bo bayoboye inama n'umumama ufite indangururamajwi mu ntoki ze uri kuvuga ijambo.

Abamama bane bafite ikibaho kinini bigaragara ko ari ishusho yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza. Inyuma yabo bakaba bakikijwe n'ibiti ndetse n'inyubako.

Umuhanzi wamenyekanye cyane mu ndirimbo z'urukundo, akaba ahagararanye n'umudamu wambaye ikote ry'umukara, bafashe icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo avuga ngo ''Twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira.''

Abantu benshi bicaye hamwe barimo abagore ndetse n'abagabo. Bagiye bafite ibitabo mu ntoki zabo ndetse bigaragara ko bari gufata ifoto, imbere ku meza arambuyeho igitambaro kiri mu ibara ry'umweru.

Abamama batatu, bambaye imyenda isa irimo amabara y'umweru n'ubururu, bari kumwe n'umugabo wambaye ikositimu bari gusuhuzanya, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'ubururu kiriho ibirango by'u Rwanda.

Abaturage benshi cyane bari hamwe mu muhanda wa kaburimbo, bambaye imipira y'ubururu ndetse abari imbere bafite ibyapa bibiri, byanditseho amagambo, ku ruhande rwabo bakikijwe n'ibiti.

Abaturage bagiye batandukanye bicaye hamwe higanjemo abagore, bakaba bambaye imipira isa umweru, abandi batatu b'imbere bambaye imyambaro iri mu ibara ry'umukara, ndetse imbere ku meza hakaba bateretseho ibitabo.

Umugabo uri kwa muganga wambaye ishati iri mw’ibara ry'ubururu n'agapfukamunwa bakaba bari kumutera urushinge rw'urukingo rwa corona virusi uri kurumutera yambaye ingofero mu mutwe.

abamama batandukanye bicaye ahantu hamwe bafite abana babo bigaragara ko baje ku kigo nderabuzima, inyuma yabo ku gikuta hakaba hari amashusho agiye atandukanye hariho n'ingamba z'uko bita ku mwana kugira ngo akurane ubuzima buzira umuze.

Abantu bagiye batandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama ndetse bakurikiye abandi bari imbere yabo, ku mpande zabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa n'indangururamajwi.

Mu cyumba ahari kubera inama imbere y'abantu hahagaze umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi kugira ngo abashe kumvikana neza, yambaye ikote ndetse ku ruhande rwe hari intebe zo kwicaraho.

Umugore wicaye ku ntebe yambaye agapfukamunwa k'umweru n'umupira w'umweru bari kumutera urushinge bigaragara ko yarutinye akaba ari urushinge rw'urukingo rwa kovide cumi n'icyenda inyuma ye hari undi uhahagaze.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama higanjemo abagore ndetse n'abagabo bakurikiye abandi bari imbere yabo bari kubagezaho ijambo bicaye babareba, umwe muri bo afite indangururamajwi ari kugira icyo avuga.

Abaturage bagiye batandukanye barimo urubyiruko ndetse hakaba harimo n'abamama n'abagabo. Bambaye imipira iri mu ibara ry'umweru. Abari imbere bafashe icyapa cyandikishijeho amagambo y'umweru.

Abantu bari mu cyumba cyabereyemo inama bagiye batandukanye, baricaye bakurikiye umukobwa uri imbere, wambaye agashati kari mu ibara ry'icyatsi, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, akaba ari kubagezaho ijambo.

Abantu benshi cyane bicaye hamwe, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bambaye neza. Ku mpande zabo hari ibyapa bigiye biri mu mabara atandukanye ndetse inyuma yabo hari n'ibyuma bikonjesha mu nzu cyangwa bikahashyuhisha.

Abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba kirikuberamo inama. Bakaba bakurikiye umugabo uri imbere ufite indangururamajwi mu ntoki. Ku meza bicayeho bamwe muri bo bafiteho mudasobwa.

Umugabo baryamishije ku gatanda k'abantu bagize ikibazo akaba ari mu busitani, ku ruhande rwe hari abaganga bari kumwitaho bambaye udupfukamunwa harimo abambaye amataburiya n'abambaye amajire, ku ruhande rwabo hakaba ari igiti kirekire.

Kwa muganga ahari ibyuma bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hakaba hari n'ikindi kinini baryamishaho umuntu, bakamunyuza mu cyuma, kugira ngo hamenyekane indwara afite yitabweho.

Inyubako ndende igeretse kenshi, igiye ifite ibirahure biri mu ibara ry'ubururu, ndetse imbere yayo hakaba hari ibiti birebire, n'umuhanda wa kaburimbo uhanyura yanditseho amagambo mu rurimi rw'icyatsi.

Abaturage bicaye ahantu ku ibaraza, harimo abadamu n'abagabo, hirya yabo hari ubusitani bwiza burimo indabyo ndetse n'inyubako zigiye zitandukanye zifite ibisenge bitukura.

Inyubako nini cyane, imbere yayo haparitse ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari abantu bari kugenda ndetse n'ubusitani buteye impande y'umuhanda, hamanitse ibendera ry'u Rwanda riri mu mabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Umukobwa uryamye ku buriri, biragaragara ko arwaye, ari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo hamenyekane ikibazo afite, ndetse yambaye ikanzu iri mu ibara ry'ubururu n'umugabo uhagaze imbere ye.

Inyubako bigaragara ko igeretse, hakaba hari umuryango bigaragara ko hari hacururizwa imiti y'ubwoko bugiye butandukanye, hariho icyapa cyanditseho ubuzima bwiza.

Inyubako igeretse igiye ifite amadirishya ndetse n'igisenge, andi madirishya biragaragara ko mo imbere harimo abantu bagiye batandukanye, hanze hari abandi bahagaze bategereje serivisi

Inyubako ahazwi nko kwa muganga, hakaba hari abadamu benshi bagiye batandukanye, bigaragara ko ari abaganga ndetse hari undi uri kugenda wambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu, ku ruhande rwe hari aho gushyira imyanda.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho ikaba igeretse. Munsi yayo haparitse ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'abantu bahagaze n'abandi bari gusohoka muri iyo nyubako. Hanze y'iyo nyubako ku gipangu hakaba hari icyapa kinini kiriho amagambo atandukanye.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, hakaba ariho idirishya rinini ry'umweru hejuru y'idirishya hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza n'andi ari mu ibara ry'ubururu yanditse mu kinyarwanda, agaragaza ko ari aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Mu bitaro ahazwi nko kwa muganga hakaba hari ibitanda bigiye bitandukanye bishashe neza bikaba bishasheho amashuka asa umweru, byifashishwa mu gushyiraho abarwayi barembye cyane bakitabwaho bagakira.

Abaturage bagiye batandukanye bicaye hamwe bakaba bari mu nama bicaye ku ntebe zisa ibara ry'icyatsi, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, ku mpande ya buri wese haterutse agacupa k'amazi yo kunywa.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, imbere yayo ku gisenge hakaba ari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yanditse mu ibara ry'umukara. Imbere y'iyo nyubako hari umukobwa uhahagaze.

Ahazwi nko kwa muganga ni mu cyumba, hari igitanda cyifashishwa bashyiraho umurwayi urwaye kugira ngo yitabweho azahave amaze koroherwa ndetse n'izindi mashini zifashishwa mu buvuzi.

Mu bitaro kwa muganga, mu cyumba kirimo abantu bagiye batandukanye ndetse n'undi muntu uryamye ku gitanda bigaragara ko ari kwitabwaho bamuvura, hakaba hari n'ibindi bimashini byifashishwa muri ubwo buvuzi.

Abamama babiri umwe ateruye umwana yambaye imyambaro iri mu ibara ry'umweru, umuri iruhande yambaye amarinete n'umupira uri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, inyuma yabo hakaba hari ahantu bakarabira intoki.

Kwa muganga ahagiye hari ibitanda bigiye bitandukanye byifashishwa, mu gutuma abarwayi baharwarira baharyamye ndetse ku ruhande hari izindi mashini zifashishwa mu gushaka indwara zigiye zitandukanye umurwayi arwaye.

Umumama uryamye mu cyumba cyo kwa muganga ku gikuta hasize irangi ry'umuhondo, ndetse hejuru hakaba hamanitse n'inzitiramibu hakaba ari kwitabwaho n'umumama wambaye tabuririya y'umweru n'uturindantoki.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hakaba hari intebe zihateretse ziri impande y'ibyo bikoresho, inyuma ku gikuta hamanitseho ifoto ndetse hariho n'isaha bifashisha bareba igihe.

Inyubako igeretse iri mu mabara y'umweru, ifite igisenge gitukura ndetse ikaba ifite amagambo yanditseho agaragaza ko ari ku kagari ndetse n'ibitaro, hasi hari utwapa tugiye dutandukanye tw'umweru.

Umuganga w'igitsina gore yambaye itaburiya y'umweru ndetse ari kwita ku muntu utwite aho arikumwumvira ku nda uko umwana ameze mu nda, ku ruhande hari n'ibipapuro bitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bigiye bitandukanye baryamishaho umurwayi urembye kugira ngo yitabweho akire, hakaba yari kugendamo umuntu wambaye imyambaro iri mu ibara ry'icyatsi ndetse impande ye hakaba hagiye hari amarido ari mu ibara ry'ubururu.

Inyubako ndende cyane ikaba ifite akayira k'abanyamaguru bagenderamo gasukuye neza, ubusitani ndetse buteyemo idarapo ry'u Rwanda riri mu mabara agiye atandukanye.

Icyumba kigiye kirimo imitako itandukanye ndetse n'ibyuma byifashishwa mu buvuzi, harimo n'igitanda baryamishaho urwaye kugira ngo yitabweho n'udutebe dutoya two kwicaraho.

Icyumba cyegeranye, kirimo igitanda. Bigaragara ko ari kwa muganga. Kikaba ari igitanda kiryamishwaho, abantu barembye kugira ngo bitabweho. Bazave bamaze kumera neza, babone gutaha.

Inyubako igeretse yubakishije amatafari ahiye, hejuru yayo ikaba ifiteho icyapa kirekire cyane cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, munsi yayo haparitse imodoka zigiye zitandukanye, ndetse hari n'abantu bari kugenda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Harimo intebe bicaraho bari kuvura umurwayi, igitanda aryamaho arwaye ndetse n'icyuma cyifashishwa umuntu ari kwirukankaho, kugira ngo harebwe nimba yakize.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa n'abarwayi bagiye barembye, hakaba hari ibitanda baryamaho, bishasheho amashuka y'ubururu n'umweru ndetse n'imashini zigiye zitandukanye zifashishwa mu buvuzi.

Inyubako ndetse imbere yayo hakaba hari icyapa kinini cy'umweru n'imodoka ihaparitse, hakoraniye abaturage bagiye batandukanye barimo abamama n'abana babo bigaragara ko ari ku kigo nderabuzima.

Inyubako ndende ifite igisenge gitukura, isizweho amarangi y'umweru ndetse n'umukara, imbere y'iyo nyubako hakaba hari amabendera abiri agiye atandukanye harimo iry'u Rwanda.

Kwa muganga ahatangirwa ubufasha bugiye butandukanye ku ndwara zananiranye. Hari ibitanda abarwayi baryamaho ndetse n'imashini zifashishwa kugira ngo bavurwe bakire. Hasi hakaba hari amakaro y'umweru.

Abaturage batandukanye bari kugenda imbere yabo hakaba hari inyubako ndende cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ku ruhande hari ubusitani buteye neza ndetse burimo n'ibiti birebire hakaba harimo n'icyapa kiri mu ibara ry'umukara.

Mu cyumba bigaragara ko ari kwa muganga. Hakaba harimo ibitanda bigiye bitandukanye, hagati yabyo harimo amarido. Byifashishwa bashyiraho abarwayi barembye, kugira ngo bitabweho, bazatahe bamaze gukira.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amatara yaka neza ndetse n'ibyuma bigiye bimanitse byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo n'intebe ziteretse bicaraho bari kuvura na mudasobwa bakoresha bapima abantu.

Ahatangirwa ubuvuzi bugiye bunyuranyuranye ku ndwara zitandukanye, hakaba hari ibitanda bashyiraho abarwayi ndetse n'imashini bifashisha mu gihe bari kuvura n'akantu ko gushyiramo imyanda.

Icyumba kinini bigaragara ko ari icyo kwa muganga kikaba gifite ibikuta bisize ibara ry'umweru, hari ibitanda bigiye bitandukanye bimwe biryamyeho abantu ibindi nta muntu biriho ndetse hejuru hamanitse inzitiramibu.

Inyubako ndende igeretse yiganjemo amabara y'umweru, imbere yayo hakaba hari amatara ashinze, afasha kumurika nijoro igihe bwije ndetse akaba ashinze mu busitani bunini nabwo buhari.

Inyubako igeretse yanditseho amagambo agaragaza ko ari ku kigonderabuzima cya Nyaruyenzi. Hakaba hahagaze abantu bagiye batandukanye baje kwivuza ndetse n'ibiti biri imbere y'iyo nyubako.

Inyubako ndende igeretse, hejuru hariho ibigega ndetse hasi y'iyo nyubako hagiye haparitse imodoka zitandukanye, hari n'ibiti bikikije iyo nyubako ndetse n'amarembo manini.

Abaganga benshi batandukanye bicaye hamwe bigaragara ko bari gukora ubushakashatsi harimo abasore n'abakobwa bambaye imyambaro iri mu ibara ry'umweru. Bari gukora ubushakashatsi ku mavuta yo guteka.

Inyubako iri mu mabara y'umweru, ifite igisenge kiri mu ibara ry'ubururu, ikaba yanditseho ikigo nderabuzima cya Shagasha. Kuri iyo nyubako hicayeho abaturage batandukanye.

Abamama bane, bahagaze hamwe. Bambaye imyambaro iri mu ibara risa, ndetse n'udupfukamunwa. Bahagaze imbere y'inyubako, ifite irangi rya orange n'amagambo yandikishije, mu ibara ry'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibitanda baryamishaho umurwayi ndetse n'izindi mashini zifashishwa mu gutahura ikibazo uwaje abagana afite bakabasha kumuvura.

Inyubako ndende igeretse kenshi. Ikaba ifite icyapa kiyimanitseho, kigaragaza ko aho ngaho bacuruza imiti, ndetse ko iherereye i Remera. Munsi y'iyo nyubako haparitse imodoka.

Inyubako ndende igeretse, ikaba ifite icyapa imbere kiri mu ibara ry'umukara n'umweru, cyanditseho amagambo agiye atandukanye, yamamaza ibikorwa bikorerwa muri iyo nyubako.

Umugabo wicaye ku gatebe kari mu ibara ry'icyatsi, wambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko ari umuganga, inyuma ye hari igitanda baryamishaho abarwayi kugira ngo bitabweho bakire.

Igipangu kinini kizengurutswe n'ibyuma ndetse n'amatafari ahiye. Hakaba hariho icyapa kirekire cyanditseho, hari ibitaro bya Ruhengeri. Hanze y'ibyo bitaro hari abantu benshi.

Abadamu batatu bari mu cyumba kimwe bigaragara ko ari kwa muganga. Umwe yambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu, undi yambaye itaburiya y'umweru afite amakaye mu biganza bye. Imbere ye hari undi mudamu witeze igitambaro mu mutwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, bikubiyemo ibitanda birambuyeho amashuka y'umweru ndetse hejuru hakaba hamanitse n'insakazamashusho.

Icyumba cyo kwa muganga kigiye kirimo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda bashyiraho umurwayi, agatebe ko kwicaraho ndetse n'izindi mashini zifashishwa mu gutahura indwara umuntu arwaye.

Umugabo wambaye taburiya y'umweru n'agapfukamunwa bigaragara ko ari umuganga. Afite agacupa mu ntoki ze zambaye ga z'ubururu, ndetse ari imbere y'imashini zikora ubushakashatsi.

Kwa muganga harimo ibitanda byinshi bigiye bitandukanye bashyiraho abarwayi baje barembye kugira ngo baharwarire bakire, akaba hari n'imashini zifashishwa mu kwita kuri izo ndwara barwaye.

Mu cyumba bigaragara ko gikorerwamo siporo zigiye zitandukanye, hakaba harimo imashini zifashishwa muri izo siporo, ku ruhande hari indorerwamo nini cyane ndetse n'isakazamashusho.

Inyubako zubatswe mu buryo bugezweho zikaba zifite ahantu nyabagendwa hagendwa n'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'ubusitani bugiye buteyemo ibiti by'imbuto bitandukanye, ku ruhande hakaba hari ibyicungo abana bajyaho bakarya iminyenga.

Kwa muganga, hari igitanda kiryamyeho umuntu, bigaragara ko arwaye, ari kwitabwaho kugira ngo akire. Ku ruhande, hakaba ari imashini nyinshi, zifashishwa mu gutahura ikibazo umuntu afite, akitabwaho.

Inyubako nyinshi kandi ndende zigeretse zikaba zifite porotaye iyizengurutse. Ku ruhande hari abantu bagiye batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore baje kuyitaha.

Mu cyumba cyo kwa muganga, ahakorerwa ibizame bigiye bitandukanye kugira ngo hamenyekane indwara abantu barwaye, hakaba hari ibitanda baryamaho, ndetse n'imashini zifashishwa mu kubavura.

Abantu bagiye batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere ku meza hagiye hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa bamwe muri bo bakaba bafite na mudasobwa hakaba hari n'undi mugabo ushinzwe kugenda afata amafoto.

Abantu bagiye batandukanye bari imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko habaye nk'ibirori runaka ndetse hakaba hari n'imodoka ihaparitse y'umukara, ikikijwe n'ubusitani bwiza.

Icyumba kinini cyane kirimo amabara agiye atandukanye yiganjemo umuhondo, icyatsi, ubururu ndetse n'umweru hakaba hari n'intebe zo kwicaraho ndetse n'ibishushanyo binini bigaragara ko ari icyumba cy'abana.

Ahakorerwa imyitozo ngororamubiri, hazwi nko muri jimu. Hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye, yaba ibyo guterura bigatuma umuntu azana amaboko akomeye, ndetse n'indorerwamo zo kwirebamo.

Irembo rinini rizengurutswe n'icyapa kinini cyanditseho Kabgayi, kigaragaza ko ahangaha ari mu bitaro bya Kabgayi, hakaba harimo ibiti birebire ndetse n'amatara.

Icyumba cyo kwa muganga harimo ibitanda bibiri, igitanda kimwe cyicayeho umumama ari kwitabwaho n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ikindi haryamyeho umumama nawe ategereje ko agerwaho.

Ahazwi nko kwa muganga. Harakeye, hafite isuku, ndetse higanjemo ibara ry'umweru. Hakaba hari igitanda baryamishaho umurwayi, ndetse n'ibindi byuma bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kumuvura.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo intebe nyinshi cyane ziri mu ibara ry'umukara zigiye zizamuka, imbere hakaba hari akameza kandi k'umweru kaba kicayemo abandi bayobozi bakuru.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibyuma. Mo imbere mu gipangu hakaba hari ubusitani bugiye buteyemo ibiti bitandukanye ndetse n'icyuma gikoreshwa n'abana bari kurya iminyenga.

Mu bitaro kwa muganga, hakaba hari ibitanda bigiye biryamyeho abarwayi barembye, kugira ngo babanze bitabweho babone gutaha ndetse hakaba hari n'abashinzwe kuhakora amasuku kugira ngo hadasa nabi.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba yanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza ndetse kuri iyo nyubako hakaba ari intebe yicayeho abamama bagiye batandukanye, baje gushaka serivisi muri ibyo bitaro.

Icyumba cyo kwa muganga gifite ibikoresho bigiye bitandukanye, ibikuta bisize ibara ry'umweru ndetse ku gikuta hamanitseho icyuma cyifashishwa bongera ubushyuhe cyangwa ubukonje mu nzu. Muri iyo nzu hakaba harimo n'intebe yo kwicaramo ndetse n'icyuma gikonjesha.

Mu cyumba kigiye kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga, biragaragara ko ari kwa muganga, hakaba hari n'igitanda baryamishaho umurwayi kugira ngo yitabweho.

Inyubako ndende cyane igeretse, iri kwakamo amatara. Biragaragara ko ari kwa muganga, hari n'abantu baje gusaba ubufasha. Imbere yayo hari ubusitani bunini ndetse n'igiti kirekire.

Inyubako ndende igeretse iriho ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, munsi y'iyo nyubako haparitse imodoka, ndetse ikaba ifite n'igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibyuma.

Inyubako nini cyane yubatse mu buryo bugezweho, imbere hakaba hari amagambo yandikishijwe mu rurimi rw'icyongereza, imbere y'iyo nyubako kandi hakaba hateye ibiti bituma muri iyo nyubako haza umwuka mwiza.

Inyubako ndende igeretse, hejuru yayo hakaba hari ibigega bifata amazi, munsi yayo haparitse amamodoka ndetse hari n'amarembo ari gusohokamo imodoka igana mu muhanda.

Inyubako irimo etajeri ziri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, zikaba zigiye zipanzemo imiti itandukanye yifashishwa bavura indwara zinyuranye, hakaba harimo n'intebe yicaramo abantu baje babagana.

Inyubako ndende ifite amadirishya atatu. Hakaba hari amagambo ahamanitse, ari mu ibara ry'icyatsi, agaragaza ko hari ikigo cyita ku bantu. Hakaba hari n'ubusitani bunini cyane.

Inyubako ndende ndetse igeretse iri mu mabara y'ubururu imbere yayo hakaba hari umugabo uri kumanuka wambaye ishati itukura ,n'ipantaro y'umukara inyuma yayo hakaba hateye ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'amasikariye ajya kuri iyo nyubako.

Mu cyumba bigaragara ko ari mu bitaro, hakaba hari umugabo uhari wambaye umupira w'ubururu, ari kuzinga supaneti, ku gitandarya haryamyeho umuntu bigaragara ko arwaye, ari kwitabwaho ngo akire.

Inyubako nziza itatswe n'imirimbo igiye itandukanye igizwe n'amabara y'umweru, amatara atangaje ndetse n'intebe nziza z'ubururu zo kwicaraho, bakaba bafite aho bakirira abantu hateguye neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, hakaba hari agatanda baryamishaho umurwayi n'akandi gatebe gato, ku ruhande hari ibishushanyo bigaragara ko ari mu bitaro by'abana.

Icyumba kiganjemo ibara ry'umweru, hariho igitanda ndetse ku ruhande ku gikuta hashushanyijeho ibipope bigiye bitandukanye bigaragara ko ari mu bitaro by'abana.

icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hakaba hari igitanda kirambuyeho ishuka y'umweru baryamishaho umurwayi ndetse ku ruhande hari imashini, bakoresha birukankaho.

Icyumba cyo kwa muganga gifite amatara ari kwaka cyane, hakaba hari imashini zigiye zitandukanye izimanitse hejuru n'izindi ziteretse hasi, ndetse hari n'ibitanda birambuyeho amashuka y'ubururu byifashishwa bari kuvura abarwayi.

Umudamu uri mu nzu ifite ibara ry'umweru, hakaba harimo amamashini agiye atandukanye, ari mu ibara ry'ubururu n'umweru, akorerwamo ibintu bitandukanye, hakaba hari n'ameza ateretseho ibintu.

Umugore uri kwita ku mwana mu mutwe ateza igitambaro gisa umweru. Ndetse ku ruhande hakaba hari izindi mashini zigiye zitandukanye, zifasha uwo mwana kuba yakomeza gukura kubera ko yavutse atagezeje igihe.

Inyubako ifite igisenge kiri mu mabara y'ubururu, yose ikaba iteye amarangi y'umweru, yanditseho inzu y'ababyeyi, ikaba ikikijwe n'ibiti birebire kandi byiza n'ibyuma bizana amashanyarazi.

Ababyeyi batatu bari hamwe, babiri baricaranye, undi umwe yicaye ukwe, akaba yambaye uturindantoki turi mu ibara ry'umweru ndetse umwe ku kaboko ke yamushyizeho icyuma bigaragara ko ari kumupima indwara runaka.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igikoresho kinini cyane kiri mu ibara ry'umweru, imbere gifiteho ahantu baryamisha umurwayi kugira ngo asuzumwe, hamenyekane ikibazo afite. Ku ruhande ku gikuta hakaba hamanitse isaha.

Abagabo bagiye batandukanye, bahagaze hamwe, ndetse harimo n'abagore, bose bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hakaba hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Inyubako ifite icyapa hejuru, kigaragaza ko aho hantu hari farumasi. Ndetse bagaragaza n'amasosiyete agiye atandukanye bakorana nayo. Imbere y'iyo nyubako hakaba haparitse umumotari.

Inyubako irimo isuku ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba hari ibikoresho byifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, hakaba hari ibyo baryamaho, ibyo birukankaho ndetse n'ibyo baterura mu biganza.

Inzu nini yubakishijwe amatafari ahiye ikaba yanditseho inzu y'ababyeyi hari abagabo bahari ndetse n'abadamu bari imbere y'umuryango w'umweru bigaragara ko ari abaganga.

Inyubako ndende igeretse ikaba ifite igisenge gisa umukara. Iteye amarangi y'umweru ndetse imbere yayo hari amagambo ari mu ibara ry'umukara, yanditse mu rurimi rw'icyongereza. Munsi y'iyo nyubako haparitse imodoka ndetse hakaba hari n'ubusitani.

Ahantu hari intebe zikozwe mu biti. Zigiye zifite imisego myiza ndetse n'ameza agiye ari mu mabara atandukanye n'imitako mu nguni iri mu ishusho y'ibiti.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahabikwa ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubuvuzi. Hakaba hari etajeri zigiye zirimo imiti itandukanye ndetse n'impapuro zimanitse kugira bamenye aho imiti iherereye.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye ishati iri mu ibara ritukura akaba ari kumwenyura, yicaranye n'umukobwa ukiri mutoya wambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu wafungiye imisatsi inyuma akaba ari kumufasha mu bijyanye n'ubuvuzi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi bagiye batandukanye baryamye ku bitanda byabagenewe hakaba hari ameza agiye ateretse buri ruhande rw'igitanda hariho ibikoresho umurwayi akeneye nk'amazi n'ibindi.

Inyubako nziza isizwe amarange y'umweru ikaba itatswe n'amatara meza cyane, hakaba hari intebe ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'akameza aho ushobora kwicara ukumvu uratuje.

Inyubako nini ifite igisenge cy'ubururu, imbere kuri iyo nyubako hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'ubururu agaragaza ko ari inzu y'ababyeyi, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ubusitani ndetse hateretse n'amavaze arimo indabyo.

Abantu bari ahantu hamwe bambaye utunozasuku mu mutwe, udupfukamunwa ndetse n'amataburiya y'umweru, bakaba bari imbere y'ikimashini kinini giteretsemo uducupa twinshi tw'umweru, bigaragara ko ari abaganga bari gukora ubushakashatsi.

Umugabo wicaye wambaye ikote riri mu ibara ry'ubururu imbere ye hakaba hari mudasobwa yarambitseho ibiganza byombi ndetse imbere y'iyo mudasobwa hari iyindi nini cyane igaragaramo ifoto.

Ikigo kinini gifite amarembo manini, hejuru hakaba hari amagambo ahanditse handitseho kigina, hanze y'iryo rembo hari umumama bigaragara ko ahetse umwana yaje kumuvuza.

Icyumba kirimo ifoto imanitse ku gikuta, hakaba ariho igitanda cyifashishwa baryamishaho umurwayi kugira ngo yitabweho n'izindi mashini ku ruhande, bakoresha bavura indwara zitandukanye.

Inyubako ndende igeretse, ifite igisenge kiri mu ibara ry'ubururu, kuri iyo nyubako hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bizana umwuka mu nzu, munsi yayo haparitse imodoka ndetse harimo n'abantu bahagaze, ku ruhande hari ubusitani buteyemo n'igiti.

Umuganga wambaye amarinete n'itaburiya y'umweru, mu biganza bye afite akantu kariho impapuro zo kwandikaho, ku ruhande hakaba hari umwana ndetse n'amazu.

Inyubako ifite igisenge kinini kiri mu mabara y'ubururu, ikaba isize amarangi y'umweru ndetse yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Igifaransa, imbere y'iyo nyubako hahagaze umugabo.

Ibitanda bigiye bitandukanye biri ahantu bigaragara ko ari kwa muganga ndetse n'inzitiramibu, bikaba byifashishwa mu gushyiraho abarwayi mu gihe barembye cyane bakaba bitabwaho bakazahava bakize.

Umugabo ugeze mu za bukuru wicaye ku ntebe z'umukara akaba ari kwitabwaho n'uwundi wambaye amarinete ku ruhande rwe hakaba hari icyapa kinini cy'umweru cyanditseho irembo ndetse hakaba hari na kizimyamwoto.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ifite amagambo y'umukara yanditse, agaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Gisenyi. Hakaba hari abaturage bagiye batandukanye bahagannye, hanze yacyo ku muhanda hakaba hari igare rihetse umuntu.

Inyubako zigiye zitandukanye hakaba hari inyubako imbere ifite ibikuta bisize ibara ry'umweru igisenge kiri mu ibara ry'ubururu, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ubusitani bunini buteyemo igiti kimwe, kuri iyo nyubako hakaba ari n'ikigega cy'amazi.

Umusore ufite imisatsi. Yambaye umupira w'umukara, inkweto z'umukara. Akaba ari gukora siporo ngororamubiri, kugirango adasaza imburagihe, kandi akomeze kugira, amagara mazima.

Umukobwa bigaragara ko ari umuganga, yambaye agapfukamunwa k'umweru shati y'ubururu ndetse na ga ziri mu ibara ry'ubururu. Imbere ye hakaba hari mudasobwa ndetse n'ibitabo byo kwandikamo ibintu bigiye bitandukanye.

Umukobwa uri muri siporo ngororamubiri yambaye agasengeri k'ibara ry'umukara ndetse n'ipantaro, afite akantu kamufasha gutwara telefone neza kari ku kuboko kwe ndetse ari kuruhuka anywa amazi.

Umumama uri kwita ku kana gafite ikibazo ndetse yambaye ijile iri mu ibara ry'ubururu afashe igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze cyifashishwa mu gutahura indwara umuntu arwaye.

Umugabo wisukishije afite tatuwaje ku mubiri we, akaba yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, ari gukora siporo zigiye zitandukanye abifashijwemo n'umugabo w'umuzungu.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye agasengeri k'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse siporo akaba ari ingenzi mu buzima bwacu kubera ko iturinda kuba twarwaragurika cyangwa tugasaza imburagihe.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi mu biribwa ndetse n'ibindi byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hakaba harimo umugozi wo gusimbuka inkweto zo kwambara bakora siporo ndetse n'ibiribwa byo guteka.

Umugabo uri ahakorerwa ubuvuzi bugiye butandukanye, imbere ye akaba afite mudasobwa ndetse biragaragara ko ari kuvugana n'abantu barebana imbonankubone, yambaye ishati isa umutuku.

Umuntu uryamye hasi, baziritse amaguru, ndetse hejuru ye hakaba hari abandi bantu bagiye batandukanye. Inyuma y'abo bantu, hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, n'intebe zo kwicaraho.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru w'Amerika hari umugabo wambaye kasike, bigaragara ko avunitse yari ari gukina hakaba haje abashinzwe kwita ku bakinnyi bavunitse bari kumufasha.

Ibyo kurya bigiye bitandukanye bikozwe mu ishusho y'umutima, hakaba harimo pome, puwavuro ndetse na voka, ku ruhande hari ibyuma byifashishwa muri siporo ngororamubiri.

Ahazwi nko kwa muganga higanjemo ibara ry'umweru ndetse n'amatara amurika y'umweru, hari ikimashini kinini cyane bigaragara ko ari cyo umuntu aryamaho hanyuma bakamupima indwara zitandukanye.

Umugabo ndetse n'umugore bari muri siporo bambaye imyenda ya siporo y'amakabutura ndetse imbere yabo hari ibikapu batwayemo ibikoresho, bafashe akaruhuko bari kwicara bakanywa amazi kugira bakomeze.

Imyitozo icumi ushobora gukora hanyuma uburwayi wagize cyangwa kuvunika bikabasha kuba byagenda, hari eshanu zo guhagarara n'izindi eshanu zo kwicara.

Umugabo uryamye, bari kumukorera ibyo bita kugorora umubiri, uri kumwitaho yambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko ari umuvuzi.

Abantu babiri bari gukina umupira umwe aryamye hasi yambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara kuruhande rwe hari umupira wo gukina biragaragara ko avunitse ari kwitabwaho.

Ibyo umubiri wacu ukeneye kugira ngo urusheho gukora neza kandi umuntu asa neza, harimo gukora siporo, kurya indyo zujuje ubuziranenge ndetse no kunywa amazi menshi ahagije.

Umugabo uri muri siporo ngororamubiri yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umukara ndetse ari gukora siporo azamura akaguru, ku ruhande rwe hari ibindi byuma bimufasha.

Umusore bigaragara ko ari muri siporo yambaye ekuteri z'umweru ndetse afite agacupa k'amazi, ari kunywa ku mazi kugira ngo akomeze siporo atari kwahagira cyane.

Ibyuma bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo mubiri biterurwa mu buryo bugiye butandukanye, hakaba hari ibyo bateruza amaboko , ibyo bateruza amaguru ndetse n'ibindi bikagufasha kubyibuha ibice by'umubiri.

Ibiribwa bigiye bitandukanye umubiri uba ukeneye kugira ngo urusheho kugira imbaraga, harimo imbuto zirimo nka pome, amaronji n'ibindi ndetse no gukora agasiporo kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buganga ndetse n'igihe umuntu yagize ikibazo runaka cy'uburwayi, wenda yakomeretse, arwaye umutwe cyangwa ibindi ushobora gufata kimwe muri ibi ukamwitaho.

Imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo, ruguru yayo hakaba hateye ibiti birebire ndetse n'ubusitani. Iyi akaba ari imbangukiragutabara yifashishwa itwara abantu barwaye cyane cyangwa ababyeyi bagiye kubyara.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga abantu bagiye batandukanye nk'abaganga cyangwa indi miryango ishinzwe kwita ku kiremwamuntu yifashisha yereka abantu uko batanga ubuvuzi bw'ibanze.

Umukobwa wambaye agasengeri k'ubururu gasa n'ipantaro yambaye, ndetse akaba ari gukora siporo ngororamubiri kugirango ubuzima bwe burusheho kugenda neza kandi atandukanyekane n'indwara zizanwa n'izabukuru.

Igikapu kiri mu ibara ritukura kifashishwa mu gutwara imiti igiye itandukanye y'ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo umuntu ukoze nk'impanuka babe bamwitayeho mu gihe bategereje ko agezwa mu bitaro.

Intebe nini iri mu ibara ry'icyatsi cyijimye, ikaba ari imashini yifashishwa mu bitaro, aho baryamishaho umurwayi, bagakoresha izi mashini zigiye zitandukanye kugira basuzume, ikibazo afite akire.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'umukara ndetse ari guterura icyuma kugira ngo yongere ukuboko, inyuma ye hakaba hari ibindi byuma byifashishwa muri siporo zigiye zitandukanye.

Umuntu w'umugabo wambaye isaha y'umukara n'agapira k'ubururu, afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kuyanywa. Amazi akaba ari ingenzi mu buzima bwa muntu kubera ko atuma umubiri uba ukeye.

Umukobwa uri gukora siporo ngororamubiri yambaye agasengeri n'ipantaro biri mu ibara ry'umukara ndetse ku ruhande rwe hari agacupa karimo amazi yo kunywa amufasha kugarura akabaraga.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza, imbere ye hari mudasobwa, ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye yifashisha muri siporo.

Umugabo wavunitse, ari ahantu bigaragara ko ari kwa muganga ndetse ari kwitabwaho n'ubishinzwe, wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara, bamuziritse ikintu ku kaguru, kimufasha koroshya ububabare bwe.

Umudamu uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye agasengeri. Siporo akaba ari nziza ku buzima bwa muntu kubera ko zimurinda gusaza imburagihe, akaguma afite imbaraga ndetse afite itoto.

Mu cyumba bigaragara ko ari kwa muganga hakaba hari igitanda kiri mu ibara ry'ubururu cyifashishwa mu gushyiraho umurwayi urwaye kugira ngo hamenyekane indwara afite, hakaba hari n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Umugabo uri mu cyumba bigaragara ko ari kwa muganga, harimo ibitanda bigiye bitandukanye byifashishwa bashyiraho abarwayi barembye ndetse n'izindi mashini zabugenewe zifashishwa mu kubavura.

Umugabo uri gukora siporo mu muhanda wa kaburimbo, arahagaze ari kwifata mu ivi bigaragara ko avunitse, ku kaboko ke yambayeho isaha iri mu ibara ry'umukara ndetse n'ikabutura.

Imipira igiye itandukanye, ikoreshwa mu mikino inyuranye, hakaba harimo iyo bakina mu biganza ndetse n'indi y'umupira w'amaguru, hakabamo n'imikino izwi nka tenisi n'akuma kifashishwa kwa muganga.

Umwenda wabugenewe uri mu ibara ritukura, wifashishwa bari kuzirika umuntu wavunitse kugira ngo amagufwa yongere asubirane abashe kuba yakira, bakamuzengurutsaho paka bikomeye.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyitwa Drone, kikaba cyarazanye uburyo bwo gutwara amaraso kiyageza ku bayakeneye mu buryo bwihutirwa bidatinze, ku ruhande hakaba hari amazu n'ibindi bikorwa remezo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi ndetse hakaba ari n'agasanduku kanini bibikwamo, hari umukasi, ibyo bazirika ku muntu wavunitse n'ibindi bomeka ku muntu ufite igisebe ndetse n'ibikwasi.

Umugabo urigukora siporo ngororamubiri yambaye agapira k'umweru ndetse arikunywa amazi kugira ngo amufashe kuruhuka. Amazi akaba ari ingenzi cyane mu buzima bwacu kubera ko atuma umubiri ukora neza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Hakaba hari agasanduku kanini kari mu ibara ry'umukara bibikwamo ndetse harimo imikasi, ibikoresho bifashisha baszirika ku muntu wavunitse ndetse n'ibinini byo kunywa mu gihe umuntu arwaye.

Umubyeyi wicaye ahantu, akaba ari kumwe n'umwana we ku buriri bumwe. Ku ruhande rwabo hari abandi bantu na bo bagiye baharyamye, inzitiramibu ndetse n'aho kurambika ibindi bikoresho bafite.

Umugabo wicaye mu bwatsi, bigaragara ko ari mu kibuga cy'umupira. Akaba yambaye isengeri y'umukara, n'ikabutura y'umukara. Yifashe ku itako, bigaragara ko hari ikintu kimufashe, akaba avunitse.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara ndetse yambaye na koteri mu matwi imbere ye hari agacupa k'amazi yo kunywa ari busomeho amaze kunanirwa.

Igikapu gitukura gikunzwe kwifashishwa n'abaganga cyangwa abandi bantu batwara amamodoka y'imbangukiragutabara, haba harimo ibikoresho by'ibanze umuntu ashobora kwifashisha akavura undi.

Ibiribwa bigiye bitandukanye byiganjemo imbuto birimo pome, imineke, amaronji, hakaba harimo na pavuro n'ibindi, ku ruhande hari ibyuma byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri birimo aritere.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, hakaba hari n'igitanda baryamishaho umurwayi bari kumuvura ndetse n'ibindi bimashini bitandukanye.

Umukobwa wambaye agasengeri ndetse n'ibizwi nka kora, akaba ari gukora siporo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza, ku ruhande rwe hari intebe zo kwicaraho n'imeza yo kuriraho.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko ari kuvura umuntu ufite ikibazo mu ivi, aho ari kumukanda kugira ngo yumve aho ikibazo kiri hanyuma abone kumuha ubufasha akeneye.

Ikirango kirimo abantu babiri bari kurwana, umwe wambaye umwambaro w'umweru, undi wambaye uw'ubururu, kigaragaza ko ari ishuri bigishamo imikino njyarugamba.

Ibiribwa bitandukanye, umubiri uba ukene kugira ngo urusheho kumera neza, hakubiyemo ibyongera imbaraga, ibirinda indwara, ndetse n'udusiporo tumwe na tumwe no kunywa amazi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri n'ipantaro biri mu ibara ry'umukara ndetse imbere ye hari agacupa karimo amazi yo kunywa ku buryo ni anirwa asomaho akongera agakora siporo.

Igikapu kiri mu ibara ritukura kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo imiti y'ibinini, umukasi ndetse n'ibipfuko bigiye bitandukanye.

Umugabo w'inzobe wambaye isengeri y'umukara akaba ari kunywa amazi, biragaragara ko yari ari muri siporo akaba ananiwe, amazi akaba ari ingirakamaro mu mugihe umubiri wacu unaniwe kuko awufasha kuruhuka.

Akabogisi k'icyatsi karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, nk'igihe umuntu agize impanuka itunguranye akaba yabasha kwitabwaho mu gihe atarajya kwa muganga.

Ikibabi cy'icyatsi, kiriho ibinini bigiye bitandukanye, byinshi. Iyi ikaba ari imiti gakondo iva muri icyo kibabi, ivura indwara zigiye zitandukanye.

Abantu benshi cyane bari hamwe, higanjemo abambaye imipira y'icyatsi n'iy'umweru, bakaba bari gukora ubuhinzi bwa kijyambere bugezweho, aho bahinga bifashishije ibimashini, byabugenewe bihinga ahantu ahanini, mu gihe gito.

Abaturage batandukanye bigaragara ko ari abamama, bari mu murima uhingwamo ibihingwa bifite ibara ry'icyatsi, bigaragara ko bari gusarura n'imba byeze, harimo n'akayira gatambikamo.

Ahacururizwa imiti gakondo igiye itandukanye, ikaba iri muri etageri ifite ibara rya pinki ipakiye mu macupa ndetse mu mabara nayo agiye atandukanye ivura indwara z'ubwoko bwinshi.

Umugore ukenyeye igitenge. Ikiganza cye gifashe ku ndabo ziriho amababi ndetse n'utundi turabo tw'iroza, ibingibi bikaba ari ibiti byifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Amacupa agiye atandukanye arimo ibiribwa bitandukanye, harimo arimo ubuki, amavuta yo kwisiga ndetse n'ayandi yo guteka apakiye.

Uducupa tugiye dutandukanye, udupfundikiye ndetse n'akadapfundikiye n'akandi kantu bahonderamo ibyatsi bigiye bitandukanye, iyi ngiyi akaba ari imiti gakondo yifashishwa n'abantu babihuguriwemo.

Ibimera bifite amababi y'icyatsi, ndetse n'indabo z'icyo kimera. Iyingiyi ikaba yifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye, zananiranye.

Abantu bagiye batandukanye bahagaze ahantu hamwe bigaragara ko bari gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hakaba hari intebe zo kwicaraho zisa ubururu n'umumama uri kugurisha ibyo binyobwa.

Igiti gifite amababi agiye afatanya ari atatu ndetse n'imbuto z'icyo giti, hakaba hari ibiganza bifashe ku ibabikaba akaba ari igiti cyifashishwa mu buvuzi gakondo kivura indwara zigiye zitandukanye.

Umugabo wambaye akanozasuku mu mutwe k'ibara ry'ubururu ndetse n'itaburiya y'umweru, imbere ya udukarito twinshi tugiye dutandukanye n'amacupa arimo imiti, akaba ari kubipakira.

Ibiganza bibiri, kimwe gifashe umuti w'amenyo, ikindi gifashe uburoso bwifashishwa mu koza amenyo ndetse bakaba bari kumushyiriraho umuti w'amenyo kugira ngo yoze amenyo ye, biyarinde kurwara.

Umuti witwa Revive ukaba ari igisubizo ku muryango, uvura ibintu bitandukanye harimo kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro ndetse n'ibindi.

Ahantu heza nyaburanga, hakaba hari ba mukerarugendo benshi, bagiye bahetse ibikapu byabo, bakikijwe n'amabuye ndetse n'imigezi imanuka itemba myiza cyane n'ibiti by'icyatsi byiza.

Ibyo kurya byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'amavuta yo kwisiga, bigiye bifunze mu mapaki yabyo mu mabara agiye atandukanye, bikaba byifashishwa mu rugo cyangwa mu maresitora.